Ndi kubona intoki z'umuntu, na telefone ya samusange ugiye kohereza amafaranga, ageze muri serivisi za MTN agiye kohereza amafaranga.

Ni icyumba gikorerwamo Prime Insurence kampani, niho bakirira abantu baje babagana iyo ushaka ibisobanuro ukanda kuri iyi mibare uhamagara ijana na cumi nagatatu makumyabiri bakagufasha ukaguraha ibisobanuro birambuye iyi prime insurence kampani, igufasha kwagura cyangwaka ushaka ubufasha.

Aha ni kuri banke ya SACCO hari abantu bari kubikuza, hari n'abakiriya bandi bategereje, hari n'amazi ku ruhande na disiti bine munsi y'umukiriya yo gushyiramo imyanda, aha ni kuri SACCO nk'uko bisa.

Iyo nzu yubatse mu buryo butangaje ifite inkingi ndende udusikariye tujya mu nzu, ifite igitembo gicamo amazi ifite na parikingi hanze ku mapave imeze neza.